Kwa muganga hari akayira k'abanyamaguru gasakariye, kariho uruzitiro kakaba gatambitseho n'dupapuro tw'udushumi twinshi cyane. Harimo abantu batatu, umwe uryamye ku kagare urembye ndetse n'abaganga babiri, bari kumwihutana ngo bajye kumwitaho.

Icyumba kivurirwamo aba barwayi giteye irangi ry'umuhondo, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga birimo igitanda cy'abarwayi, akabati, mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu benshi cyane bari kwa muganga. Bakaba biganjemo abambaye amajire y'umutuku ariho ikimenyetso cyo guteranya, asobanura Umuryango Mpuzamahanga wita ku Mbabare, hakaba harimo n'abandi bantu bikoreye amapombo y'umuti bari kugenda bayatera mu bitaro hose.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu, abavuzi batandukanye bambaye amatabariya y'umweru, basanze abaturage mu midugudu yabo aho bakubapima uburwayi butandukanye ndetse bakanabavura.

Abantu benshi cyane bakora mu bijyanye n'ubuzima. Benshi muri bo bambaye amapantaro n'amashati bisa n'icyatsi. Bakaba bafite igipapuro cyanditseho amagambo y'Icyongereza, bigaragaza ko bari kurwanya indwara ya Mariburu.

Abantu batandatu ni abagabo bose, babiri muri bo bambaye amajire umwe iy'ubururu undi iy'umutuku, buri wese akaba afashe ku gapapuro aho ubona ko ari amasezerano bagiranye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni igikapu kinini kiri mu ibara ry'umutuku, kikaba gifunguye kirangaye aho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga birimo imakasi, ibipfuko, imiti ndetse n'ibindi.

Inyubako nini cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba ari sale irimo amarangi y'umuhondo ndetse na parafo y'umweru, ahari udutebe twiza cyane dukozwe mu byuma, turiho na palasitike y'icyatsi.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hakaba harimo umuntu umwe uryamye ku gitanda cy'abarwayi ndetse hari n'umugabo w'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse imyenda y'icyatsi, aho ari kwita ku murwayi.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora muri serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Umwe muri bo yambaye ibishashi by'umweru umubiri wose, bakaba bari guterura umuntu ufite ubumuga bamushyira mu mbangukiragutabara kugira ngo bamujyane kwa muganga.

Inzu nziza cyane y'igorofa ikaba iteye irange ry'umuhondo, aho ari Ibitaro bya Nyagatare hari imbangukiragutabara iri mu mbuga yayo, aho itegereje gutwara umurwayi kugira ngo imujyane mu bitaro byisumbuyeho.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba aho bari kuganira. Ni inzu yo kwa muganga iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo urugi rukozwe mu mbaho. Hasi hateye irangi ry'umutuku ndetse harimo n'ameza.

Umugabo wambaye karuvati, yambaye ishati y'amaboko maremare, isaha mu kuboko kwe kw'ibumoso, akaba afite mikoro. Aho ahagaze imbere y'imbaga asobanurira abaganga ndetse n'abandi bose bakora mu nzego z'ubuvuzi uburyo bwo kunoza serivisi zabo.

Umugabo w'umwirabura afite umusatsi muke ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, afite akantu ku kuboko k'ubururu akaba aryamye mu bitaro ku gitanda cy'abarwayi, aho ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore.

Ibitaro byiza cyane bikaba bifite amarembo y'akataraboneka akoze mu cyuma handitseho amagambo y'Icyongereza avuga ngo ikaze ku bitaro bya Kigeme, iruhande rwacyo hakaba hari indabo nyinshi cyane nziza ndetse n'abantu baje kuhashaka serivisi.

Ni mu ivuriro aho icyumba kimwe kirimo umwana muto urwaye ufite telefone mu ntoki, akaba ari kumwe n'umubyeyi we ubona ko bishimanye cyane n'ubwo barwaye cyane ko bataheranwa n'agahinda.

Umugore uhetse umwana, akaba yamutwikiriye igitambaro cy'umweru. Afite imisatsi miremire yayirebesheje imbere, akaba ari gusohoka mu nzu yo kwa muganga, irimo amarangi y'umuhondo n'ubururu, aho avuye gupimisha umwana we.

Ni mu nzu y'ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, mu cyumba kimwe giteye amarangi y'umuhondo hakaba harimo intebe yicayeho umugore urwaye, aho ari kwitabwaho n'umuganga w'umusirikare wambaye n'impuzankano ya gisirikare.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibyumba byinshi cyane kimwe muri byo kikaba kiryamyemo abarwayi babiri b'abana, aho baje gusurwa n'abaganga ndetse n'ababyeyi babo babagemuriye.

Abantu benshi cyane bakaba bakora kwa muganga. Barahagaze, bakaba biganjemo abagabo, cyane ko harimo abagore babiri gusa. Bakaba bari iruhande rw'imbangukiragutabara aho bari kuganira basebya ndetse banatebya.

Abagore bafite abana bakiri bato, bari mu ivuriro kwa muganga aho baje kubateza urushinge rw'amezi ikenda, bakaba bakiriwe n'umugabo w'umuganga wambaye ipantaro y'itise n'agapira k'umweru, akaba afite ikayi n'ikaramu ari kubandika.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bari gutembera mu nzira y'abanyamaguru irimo amapave, aho bafite igipapuro cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, hakaba hasi handitseho ngo ibitaro bya Gatunda.

Ni abantu babiri b'abagore bari kwa muganga umwe ni umurwayi akaba yambaye ikanzu idozwe mu gitenge, undi akaba ari umuganga wamwakiriye wambaye n'itaburiya aho bari kuganira kugira ngo amufashe.

Umugore urwaye akaba ari kwa muganga, aho aryamye ku gitanda cy'abarwayi gisasheho amashuka y'ubururu, akaba ari gupimwa inda na muganga w'umugore wambaye agapfukamunwa ndetse akaba ari kureba muri mudasobwa.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye ishati y'umutuku irimo uturango tw'umweru duhagaze, akaba afite na telefone mu ntoki aho ari imbere y'abarwayi. Akaba ari kubasobanurira serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Ni mu nzu y'ibitaro ahari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, aho apimira ibizamini yafashe abarwayi. Akaba afite akarahuri gato ari gusuka amazi mu kandi karekare.

Umuganga ukora muri serivisi zo gupima ibizamini, yambaye uturindantoki tw'ubururu, akaba ari kwa muganga, aho akorera, aho ari gupima ibisamini yafasha abarwayi kugira ngo arebe uburwayi bafite.

Ni mu nzu y'ibitaro ahapimirwa ibizamini by'abarwayi. Harimo umuganga w'umukobwa ufite imisatsi miremire akaba yambaye itaburiya y'umweru, aho ari gukoresha mikorosikope apima ibizamini by'abarwayi.

Umukobwa ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri. Afite umusatsi usanzwe, akaba yambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki t'wumweru, akaba ari umuganga wabigize umwuga, aho akora kwa muganga apima ibizamini.

Umugabo w'umuganga akaba akora muri serivisi zo kwa muganga zo gupima ibizamini byafashwe abarwayi, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, akaba ateruye agacupa gato karimo umuti kugira ngo ajye kuvura abarwayi.

Umugabo w'umuganga akaba n'inzobere mu gupima ibizamini. Ari kwa muganga, yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru. Akaba afite ibizamini yapimye abarwayi, aho ari kubisuzuma ngo arebe niba baba barwaye.

Umugabo w'umuganga akora muri serivisi zo gupima ibizamini. Yambaye uturindantoki tw'ubururu, ingofero y'agasashe, agapfukamunwa ndetse n'igishate k'isashe, aho yicaye mu nyubako imbere hari mudasobwa n'ikindi cyuma.

Umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru tubonerana, akaba ari gupima amaraso yafashwe umurwayi kugira ngo arebe niba aya maraso atanduye cyangwa se yanduye.

Udupfukamunwa, uturindantoki, amapombo, imiti, uducupa tubamo imiti ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye byifashishwa n'abaganga barimo bita ku barwayi, babitereye ahantu bisa n'aho bamaze kubikoresha.

Abagabo n'abagore bakora muri serivisi zitandukanye kwa muganga, bakaba bari mu nzu ifatirwamo ndetse ikanapimirwamo ibizamini by'abarwayi, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umweru, ariko bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Ni abagabo batanu bicaye mu ishuri, bakaba biga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro. Aha bicaye rero, ishuri ryabo ryubakishijeje amatafari ya ruriba. Baka bafite ibyuma bitandukanye, bari kwifashisha mu kumenyereza gukora kwa muganga.

Umunsi mukuru wo kwita ku buzima bw'abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato, abantu benshi cyane baje mu mamodoka bahuriye hamwe aho bicaye mu dutebe twa palasitike tw'umweru, bakaba bari kuganirizwa n'inzobere mu by'ubuzima.

Umugore wambaye amadarubindi. Yambaye ishati y'amaboko maremare y'ikigina. Akaba ateruye umwana muto wambaye agapira k'umutuku, aho ari kumuha amata mu cyansi. Inyuma ye hari abandi bana benshi cyane na bo bari kunywa amata, hakaba harimo n'umugore umwe uri gufata amafoto.

Umugore waje kwa muganga yambaye ishati irimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi akaba yakiriwe n'umugabo w'umuganga akaba n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato aho yamwakiriye ari kumuganiriza.

Umugore wambaye imyenda y'umweru. Ateruye umwana ukiri muto, akaba yicaye kwa muganga, ahavurirwa abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato, aho ategereje umuganga. Inyuma ye hakaba hari undi murwayi w'umugore uryamye ku gitanda.

Ni abana bato biga mu mashuri y'inshuke bakaba bambaye impuzankano hasi bambaye umukara hejuru bakaba bambaye ubururu, bari gukinara ku mbuga aho bakoze uruziga bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubigisha.

Inyubako nziza cyane ivurirwamo abagore batwite ndetse n'abana bakiri batoya. Bafite ibaraza rinini cyane aho harimo abana bakiri bato ndetse n'abandi bakuru barimo n'abasirikare bari kubaganiriza.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bateraniye hamwe bakora inama y'uburyo banozamo serivisi. Nyuma y'uko bavuye kuganira, bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Abantu babiri b'abarwawanyi ni umusaza n'umukecuru, bakaba baje kwa muganga aho bakiriwe n'umuganga w'umugore ufite ibipapuro byinshi ku meza ndetse n'ikaramu aho ari kubabaza ibibazo, ibisubizo bamuhaye akabyandika.

Ni Umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, abantu benshi cyane barimo abayobozi, abaganga, abaturage, abajyanama b'ubuzima ndetse n'abasirikare, bahuriye hamwe bakaba bakoze uruziga bagenda babyina bishimye cyane.

Abantu benshi cyane b'abanyeshuri, biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ya kaki hasi ndetse n'imipira y'icyatsi hejuru, bakaba bicaye hasi mu kibuga, aho bari kogeza abaganga.

Abantu benshi cyane biganjemo abanyeshuri ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bicaye hamwe ku meza y'ibiganiro baganira uburyo bazajya batanga izo serivisi ku babagana. Haba mu bitaro ndetse n'ahandi hose.

Abantu benshi cyane bakaba biganjemo imfungwa n'abagororwa, bambaye imyenda yabo bakaba bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo hari abagabo bane b'abacungagereza bafite igipapuro byanditsweho ngo umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu nama yiga ku buvuzi bwo mu mutwe, hari abantu batandukanye babashyitsi buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye ndetse hakaba hari n'umugore wambaye ikanzu nini cyane y'umweru uri kubaganiriza.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima ariko bakita ku buvuzi bwo mu mutwe barahagaze inyuma yabo hakaba ari igipapuro kinini cyane cy'umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo baho neza twete kuzima bwo mu mutwe.

Inyubako nziza cyane, iteye irangi ry'umweru ikaba icururizwamo imiti, hariho icyapa kigaragaza izina ryayo ko yitwa ivani, hakaba hariho na nimero za telefone za nyira iyi nzu.

Agakarito gato kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Gashushanyijeho inka ifite amahembe mato kakaba karimo umuti uvura inka, iruhande rwako hakaba hari amapombo.

Agapaki k'isashe kari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ku ruhande gashushanyijeho inkoko ebyiri z'inkokokazi, isake imwe ndetse n'imishwi ibiri. Kakaba karimo imiti ivura inkoko.

Uturindantoki tw'umweru turambitse hasi kuri sima, aho tumaze gukoreshwa n'umuntu ukora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, arimo yita ku barwayi, kuri ubu akaba yadukuyemo yaturambitse hasi.

Akabati keza cyane ku'umweru, kakaba karimo imiti igiye itandukanye iri mu macupa ndetse n'iri mu dukarito, iruhande rwako hari intebe y'umufariso ndetse hakaba hari n'ameza bakiriraho ababagana.

Inyubako nziza cyane icururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti, byifashishwa mu kwita ku buzima. Harimo imiti iri mu dukarito tw'umweru, icyatsi, ubururu n'umutuku ndetse n'indi myinshi itandukanye.

Inyubako icururizwamo imiti, harimo abantu babiri barimo umuguzi ndetse n'umucuruzi w'iyo miti wambaye itaburiya. Bakaba bari gutembera mu ma etajeri arimo iyi miti kugira ngo barebe uwo umukiriya ashaka.

Umugabo uvuye kwa muganga, akaba afite imiti mu ntoki irimo ibinini mu mabara atandukanye y'umweru ndetse n'umuhondo ndetse akaba afite n'impapuro zigaragaza uburyo bwo gukoresha iyi miti.

Umugabo wambaye itabuririya y'umweru, yambaye agapfukamunwa, amadarubindi ndetse afite n'ikaramu mu ntoki, akaba ari mu nzu aho apimira ibizamini, aho yifashisha icyuma k'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa.

Inzu nziza cyane ikaba icururizwamo imiti itandukanye, iyi nzu iteye irangi ry'umuhondo, ikaba irimo akabati k'umweru kagiye yapanzemo imiti mu byiciro bitewe n'ubwoko bwayo ndetse n'indwara ivura.

Inzu icururizwamo imiti, iteye irangi ry'umweru, ikaba yanditseho amagambo atandukanye ndetse na nimero za telefone z'umuntu ukorera muri iyi nyubako ku buryo uramutse umubuze wamuhamagara.

Umukobwa wize ubuganga. Yambaye amaherena, isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'akandi gakomo iburyo. Akaba ari mu nzu acururizamo imiti, irimo utubati turi mu mabara y'umweru, tukaba dupanzemo imiti myinshi cyane.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye. Iyi miti ipanze mu bikarito ndetse no mu macupa by'amabara atandukanye, bitewe n'ubwoko bw'umuti ndetse n'indwara uvura yaba abakuru ndetse n'abato.

Abantu benshi cyane bakaba ari inzobere mu by'ubuzima, barimo abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima, abenshi muri bo bambaye udupira tw'icyatsi, bakaba bari guhererekanya imiti kugira ngo bage kwita ku barwayi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu kibuga, hari ibisharagati bibiri biriho umugozi ubihuza hakaba hari abagore babiri bari gukaraba intoki bifashishije amazi meza n'isabune bakaba bari guha urugero abaturage.

Ni umunsi mwiza cyane wari wahuje abayobozi ndetse n'abayoborwa mu nzego zitandukanye. Nyuma y'uko bamaze kuganira baje kwifotoza. Benshi muri bo ni abaturage ariko hakaba harimo na bamwe mu bashinzwe umutekano.

Abantu benshi cyane bakaba bahuriye hamwe, aho baje kumva imigabo n'imigambi ya mugabo uri kwiyamamariza ku badepite, imbere yabo hakaba harimeza ateretseho amazi ndetse n'igikapu kibikwamo imashini.

Ni mu kigo cy'amashuri ahari amashuri y'amagorofa, ageretse rimwe akaba yubakishije amatafari ye ya ruliba, hepfo mu muhanda hari abantu benshi cyane bari gutembera bafite igipapuro bigaragara ko bari kurwanya ibiyobyabwenge.

Ibiganza by'umuntu w'umwirabura akaba ari umuvuzi gakondo, aho yagiye mu kinani guhamura imiti itandukanye kugira ngo abashe kuvura abamugana ndetse abafashe mu buryo bwose.

Ikimera kiza cyane gifite amababi akomeye nk'ay'umweya kikaba gifite uburabyo bw'iroza kikaba gihinze mu murima cyonyine, gitoshye cyane ubona ko nyiracyo yagitayeho kugira ngo azagikuremo umuti gakondo.

Umugabo akaba ari n'umuvuzi gakondo. Yicaye hasi ku musambi, aho afite agasekuru kabugenewe, ari gusekuramo imiti gakondo itandukanye kugira ngo abone uko ayivurisha abamugana.

Ibimera byiza cyane bitoshye bitohagiye biri mu byatsi kibisi cyane, bigaragara ko byabonye ifumbire ihagije, bikaba bihamurwa ndetse bikifashishwa nk'imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigwa bitandukanye bimwe bikaba ari kimeza ibindi atari kimeza, hari igiti kinini cyane k'inganzamarumbo gihamurwamo umuti gakondo, kuri ubu hakaba hari inzuki nyinshi cyane zaje zikigwaho.

Umugabo ufite intoki ziriho uburwayi bigaragara ko asa n'aho yafuruswe cyangwa se akaba ari ibibyimba bito bito, iyi ndwara ikaba ivurwa n'umuti gakondo uhamurwa mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya umuti gakondo ndetse n'umuti gakondo ari uwatunganyijwe uri mu gacupa ndetse n'undi utaratunganywa birambitse hamwe ku meza, aho bagiye kubitunganya neza.

Inzu icururizwamo imiti gakondo itandukanye, ikaba ipanze mu kabati kari mu ibara ry'umweru, imwe iri mu macupa ya palasitike y'umweru indi ikaba iri mu mavide y'umukara, hasi hakaba hariho n'indi harimo n'uri mu gacupa k'umweru.

Inzu ikorerwamo masaje hakaba harimo umuntu waje nk'umukiriya kugira ngo bamwiteho aho yakiriwe n'abantu babiri bari kumukora ku birenge bifashishijwe n'umuti gakondo, bakaba bari kumwitaho.

Ni mu murima munini cyane urimo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibimera bidahingwa kimeza, bikaba bihamurwamo umuti gakondo. Muri ibyo bimera harimo n'imiyenzi ndetse n'ibindi bifite uburabyo.

Inyubako y'ibitaro mu cyumba kimwe iteye amarangi y'umuhondo, harimo abantu babiri ni umugore umwe w'umurwayi ndetse n'undi mugabo w'umuganga wamwakiriye, akaba ari kumuganiriza amubaza uko uburwayi bwe buteye.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora muri serivisi z'ubuvuzi. Yaba mu bitaro mu mavuriro ndetse no mu bigo nderabuzima. Bahagaze imbere y'ivuriro ku ibaraza, aho bari baje kureba uko serivisi zitangwa.

Inyubako nyinshi cyane zitondekanye z'ubuvuzi zose zubatse kimwe ziteye amarangi y'umuhondo zikaba zisakaje amabati atukura, imbere ku nzu imwe hari abantu benshi cyane bicaye mu ibaraza baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, imbere hakaba hari umuhanda ndetse n'ubusitani.

Abayobozi bakora mu nzego z'ubuzima ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bari kwa muganga iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari ameza ateretseho imiti ndetse n'igikoresho kifashishwa mu gupima uburebure bw'abana bato.

Inzu nziza cyane itangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi iteye irangi ry'ubururu hakaba hari abantu benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi imbere yabo mu kibuga hagaze umugore ufite mikoro ari nawe urikubaganiriza.

Abana barindwi bicaye bitegeye ikigo nderabuzima, akaba ari inyubako iteye amarangi y'ubururu, isakaje amabati y'icyatsi ndetse hakaba hari n'ikigega cy'umukara gifata amazi aturuka kure iyi nzu.

Inyubako yo kwa muganga ikaba iraramo abarwayi, irimo ibitanda bitatu by'abarwayi. Hagati yabyo hakaba hari matola irambitse hasi. Igitanda kimwe kirambitseho ibikoresho by'umugore ugihagaze iruhande.

Ni icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo atandukanye, kiriho ikiranga ntego cy'u Rwanda, kiriho idarapo ndetse kikaba kiriho imbangukiragutabara kigaragaza ko aho hafi hari ikigo cy'ubuzima.

Inyubako ebyiri z'ubuvuzi. Ziriho amagambo meza cyane asobanura ngo gira ubuzima. Zikaba ziteye amarangi y'ubururu, buri nzu ifite ibaraza ndetse buri imwe muri zo yicayeho abantu batatu baje kwivuza.

Abantu benshi cyane bateraniye ku ivuriro akaba ari mu gihe cya mu gitondo aho baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ari benshi cyane, iruhande rwayo hakaba hari umukindo ndetse n'ubusitani butarakura.

Abantu benshi cyane bakora muri serivise z'ubuvuzi, abenshi muri bo bambaye udupira tw'icyatsi hakaba harimo umwe wambaye itaburiya y'ubururu, aho bari guhanahana imiti kugira ngo bage kwita ku barwayi.

Abantu benshi cyane bahuriye mu gishararagati harimo abaganga bari kubakira bambaye imyenda y'umweru, mbese buri muganga afite agacupa k'amazi imbere aho bari kwakira abaturage baturutse impande zose.

Abantu benshi cyane bari gukina mu kibuga. Iruhande rwabo hakaba hari icyapa gishushanyijeho igishushanyo mbonera cy'inzu y'ivuriro, aho izaba yubatse mu buryo bwiza cyane butangaje, isakaje amabati ndetse iteye irangi ry'ubururu.